Gukoresha amazi asukuye, amazi atunganyije, ni igikorwa cyiza cyo kwirinda indwara, bityo twese dukoreshe amazi atunganyije, amazi asukuye kugira ngo twirinde indwara zandura zikanandurira mu mwanda.

Kuganira uburyo ubuzima butandukanye bukwiye kwitabwaho mu ngeri zitandukanye, haba ku bafite ubumuga, haba ku barwaye ndetse n'abazima kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze bugende neza.

Mu buryo bwo kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza ndetse no gukumira indwara zitandukanye no kwivuza kare mu gihe hari indwara zatwatatse, hari igikorwa cyo gusuzuma indwara kugira ngo dukomeze tugire ubuzima bwiza.

Inama n'uburyo dukwiye gukoresha amazi meza ni ingirakamaro kugira ngo twirinde gukoresha amazi yanduye, amazi aduteza ibibazo, bityo tukagira indwara zitandukanye.

Mu ngamba zo kwirinda no gukumira indwara n'ibyorezo bitandukanye harimo kwicara nk'inzobere bakaganira ku buryo ndetse n'ingamba zikwiye gufatwa kugira ngo indwara cyangwa se ibyorezo bikumirwe hakiri kare bitarakwirakwira mu bantu benshi.

Ikigo cyita ku buzima kikanabungabunga ubuzima muri rusange bw'abatuye Isi n'abaturage twese tukigane maze tugire ubuzima bwiza.

Ubukangurambaga mu buryo bwo kurinda ubuzima dukora siporo, tugana ibigo nderabuzima mu gihe twafashwe n'indwara runaka, bityo twese tukagira ubuzima bwiza.

Kugira inama ndetse n'ubukangurambaga mu buryo bwo kwirinda indwara zitandukanye, ni igikorwa cyiza buri wese yakwishimira ndetse akanitabira, kugira ngo akomeze arinde ubuzima bwe ndetse arinde n'ubw'abandi.

Mu buryo bwo kugira ngo dukomeze tugire ubuzima bwiza harimo gukoresha amazi meza, tugana ahabugenewe kugira ngo twirinde indwara ikomoka ku mwanda ndetse n'ikomaka mu gukoresha amazi yanduye bityo tukarushaho kugira ubuzima bwiza.

Umwana ni ikiremwa gishimishije gikwiye kwitabwaho kuko iyo umwana akuze avamo umuntu ukomeye, uwo ari we wese atari kubasha kumenya akiri muto bityo umwana akwiye kwitabwaho kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Guhabwa ubujyanama mu buryo bwo kubaho ndetse no gutunga abana, ni kimwe mu gikorwa cyiza abajyanama b'ubuzima bakora kugira ngo ubuzima haba ubw'abana, haba ubw'ababyeyi bugende neza kandi nta kibangamiye imibereho ya buri munsi.

Mu rwego rwo kwirinda no kurwanya ikwirakwizwa ry'ibyorezo ndetse n'indwara zitandukanye, harimo gupimwa ngo barebe niba nta ndwara urwaye runaka, yaba iy'umuvuduko w'amaraso cyangwa umuriro ukabije, kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza.

Kuganirizwa no kungurana ibitekerezo ku bijyanye n'ubuzima, kugira ngo twirinde ndetse tugabanye ikwirakwizwa ry'indwara zitandukanye, bityo buri wese agira ubuzima bwiza.

Ingamba zo gukumira no kurwanya indwara zikomoka ku mwanda, hakwiye kwegerezwa amazi meza ndetse hakanigishwa uburyo bwo kuyakoresha atetse cyangwa se ayunguruye, kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza.

Amazi ni ubuzima, amazi ni byose, dukwiye gufashanya twese kugira ngo tubone amazi meza, yo gukoresha kugira ngo twese tugire ubuzima bwiza kuko amazi adufasha mu buryo bw'imibereho ya buri munsi ndetse no kwirinda indwara.

Mu kwirinda no kurwanya indwara zitandukanye, harimo kwigishwa no gusobanukirwa ibitera ingaruka kugira ngo barusheho kumenya no gusobanukirwa iby'indwara ndetse n'icyorezo, bityo twese dukwiye kuganirizwa kugira ngo tugire ubumenyi mu kwirinda kugira ngo twirinde kandi dusobanukirwe iby'indwara.

Kwirinda no kurwanya indwara ndetse n'ibyorezo, ni kimwe mu bikorwa byiza biranga umuntu ushaka kandi ufite ubuzima bwiza.

Gutanga inama ndetse no kuganira ku kibazo haba icy'indwara cyangwa se icy'imitekerereze k'ibyorezo ni kimwe mu bikorwa cyiza gishobora gutuma indwara zihashywa burundu.

Kungurana ibitekerezo n'inama y'uburyo ubuzima bw'abaturage cyangwa se abatuye isi muri rusange, bakwiye kwitabwaho barindwa indwara zitandukanye n'ibyorezo ni kimwe mu gikorwa cyiza.

Kuganiriza abaturage, wumva ibibazo bafite n'indwara bafite, ni kimwe mu gikorwa cyiza gituma abaturage bisanzura maze bakavuga ibibazo ndetse bagakira indwara barwaye.

Gutega amatwi ukumva neza no gushyira mu bikorwa n'inama batugira, mu buryo dukwiye gufatamo ubuzima bwacu, mu buryo dukwiye kubungabungamo ubuzima bwacu, ni imwe mu ngenzi.

Kugira ngo duhashye kandi twirinde burundu indwara ndetse n'ibyorezo, harimo gusobanurirwa ibijyanye n'indwara ndetse n'ibyorezo kugira ngo twirinde ndetse duhashye burundu izi ndwara.

Mu byo tugomba kwirinda muri ubu buzima no gukoresha amazi yanduye ni kimwe mu bikorwa tugomba kwirinda, kuko byatuma turwara indwara ziterwa n'umwanda, bityo dukwiye kwirinda gukoresha amazi yanduye.

Amazi ni ubuzima, ariko dukwiye kwita ku mazi dukoresha, tugakoresha amazi asukuye, kugira ngo twirinde indwara ikomoka ku mwanda cyangwa se ku mazi yanduye, nk'inzoka n'imiswi ndetse n'ibindi.

Guhabwa inama z'uburyo dukwiye kwitwara, igihe hari icyorezo cyangwa indwara zatatse umubiri wacu, ni kimwe mu gikorwa cyiza gituma buri wese abasha kwirinda maze akagira ubuzima bwiza.

Umuntu aba afite uburenganzira bwo kugira ubwonko bukora neza, kuba nta ndwara yo mu mutwe afite bityo buri wese akwiye kwiyitaho kugira ngo yirinde iyo ndwara akanita ku bafite iyo ndwara.

Ufite uburwayi bwo mu mutwe ni umuntu nk'abandi ni umuntu ukwiye kwitabwaho agahabwa ibikenerwa byose, kugira ngo nawe akomeze agire ubuzima bwiza.

Ufite uburwayi bwo mu mutwe ni umuntu ufite ubwenge butandukanye nuko yara ari cyangwa se ubona ko ibikorwa bye bidahwitse, ukora ibitandukanye n'ibyo ufite ubwenge buzima yakabaye akora, uwo bamwita umurwayi wo mu mutwe.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe, akwiye kwitabwaho akaganirizwa agahabwa ibishoboka byose maze nawe akishimira mu buzima butandukanye n'ubwo arimo.

Itariki cumi z'ukwa cumi, umunsi w'abafite indwara mu mutwe, ni umunsi bitabwaho birenze uko bitabwagaho, n' umunsi baba bishimiye kuko baba bumva bakiriwe neza, ndetse bagahabwa n' ibyangombwa kugira ngo ubuzima bwabo buboneke bugende neza.

Abafite uburwayi bwo mu mutwe bakwiye kwitabwaho, bakaganirizwa bagashyirwa ahabugenewe ndetse bagahabwa ubuvuzi kugira ngo bakomeze bamere neza, ubuzima bwabo bugende neza, muri iyi si dutuyemo twese.

Kwita ku barwayi bo mu mutwe, ni kimwe mu gikorwa cyiza, aho inzobere ndetse n'abafite ubushobozi bicara bakaganira nabo, bakabasuzuma kugira ngo nabo bakomeze bamenye ko bafite ubuzima bwiza.

Amenyo akwiye kwitabwaho kuva umwana akiri muto kugeza akuze, yozwa neza kugira ngo hirinde indwara zitandukanye zataka amenyo bityo amenyo agire ubuzima bwiza n'uyafite akomeze agire ubuzima bwiza.

dukwiye gukorera amenyo yacu isuku kugira ngo tuyarinde imyanda ndetse na bagiteri ishobora gutuma yangirika, bityo tugakomeza kugira ubuzima bwiza n'amenyo yacu asa neza.

Ubuvuzi bw'amenyo ni bumwe mu buvuzi bukwiye gukorwa neza, kubera ko amenyo adufatiye runini bityo dukwiye kwirinda icyayangiza natwe tukayafata neza, kugira ngo dukomeze tugire ubuzima bwiza.

Amenyo akwiye kwitabwaho, agakorerwa isuku kugira ngo twirinde imyanda ndetse n'ibindi byatuma yandura, byatuma akurwa kugira ngo twirinde uburwayi bw'amenyo.

Abafite indwara zo mu mutwe, bakwiye kwitabwaho bakagirwa inama, ndetse bagahabwa ibishoboka byose kugira ngo bumve bishimye, bumve banyuzwe ndetse babashe kubaho bafite ubuzima bwiza.

Ubuvuzi bw'amenyo, ni bumwe mu buvuzi dukorerwa ku mubiri cyane cyane mu kanwa, aho uvura yita ku menyo, yaba ayagize ikibazo cyangwa se gukuka bityo dukwiye kuyitaho kugira ngo twirinde kurwara kw'amenyo.

Uburwayi bw'amenyo ni uburwayi bufata mu kanwa mu gice cy'amenyo, aho ushobora kubabara cyangwa se akavunguka, bityo dukwiye kuyitaho kugira ngo twirinde ubwo burwayi.

Uburwayi bw'amenyo ni bumwe mu burwayi bufata mu kanwa bityo dukwiye kwita ku menyo yacu kugira ngo twirinde ibyayangiza kugira ngo dukomeze tugire ubuzima bwiza buzima buzira indwara y'amenyo.

Amenyo ni igice cy'umubiri giherereye mu kanwa, aho kidufasha mu gukanja ndetse no guhekenya ibyo twariye, dukwiye kuyabungabunga kugira ngo hatagira indwara cyangwa se kwangirika kwayo.

Amenyo akwiye kwitabwaho, akagirirwa isuku kugira ngo hirindwe indwara zitandukanye zifata amenyo kugira ngo dukomeze tugire ubuzima bwiza, twirinda ibitandukanye byaduteza indwara mu menyo.

Imashini n'igikoresho gikoreshwa mu koza amenyo, mu gukura amenyo kugira ngo umuntu agabanye uburibwe ndetse n'indi myanda ishobora kujya mu menyo ikayangiza.

Ubuvuzi bw'amenyo, amenyo atuma ibyo twariye tubikanja, bikanoga bityo bikagera mu nda bimeze neza ndetse n'igifu kigashobora kubisya neza kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza.

Abafite uburwayi bwo mu mutwe bakwiye kwitabwaho bagahabwa ibyo bakeneye kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza no kugira ngo bababeho bishimye kandi bisanzuye.

Amenyo ni ingenzi, ni yo mpamvu akwiye kwitabwaho, agakorerwa isuku ihagije ndetse n'uwatangiye kugira ikibazo cyayo akegera abaganga bakamuvura.

Kwita ku bakuze ni kimwe mu gikorwa cyiza gituma babaho bishimye, gituma iminsi yabo yo kubaho yiyongera bityo bakagira ubuzima bwiza.

Gufata neza abasheshe akanguhe abakuze, ni kimwe mu gikorwa cyiza aho ugomba kubamenyera byose, ukabamenyera n'igihe bafata imiti ndetse ukabitaho kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza kandi iminsi yo kubaho yabo ikomeze kwiyongera kandi bishimye.

Kwita ndetse no gushimisha abakuze, ubwo ni abasheshe akanguhe ni kimwe mu gikorwa cyiza gituma bumva bishimye, bumva banyuzwe bityo na bo bakagira ubuzima bwiza.

Gufata neza abasheshakanguhe cyangwa se abageze mu myaka y'ubukure, bituma bakomeza nabo kugira ubuzima bwiza, bityo bakabaho bumva bishimye, igihe basigaje bakumva bamerewe neza mu buzima bwabo.

Gufata neza no kwita kuba basheshe akanguhe, abakuze, ni igikorwa cyiza gituma bumva bishimye ndetse bakabaho banezerewe bityo bikabongerera iminsi yo kubaho y'ubuzima bwabo kugira ngo bose bamere neza ndetse n'ubafashije na we akumva yishimye, akagira ubuzima bwiza.

Kwita ku bakuze ubaha ibikoresho bisabwa kugira ngo abashe kugenda, abashe kwisanzura ni kimwe mu gikorwa cyiza gituma yumva yishimye.

Gufasha abakuze no kubitaho, ni kimwe mu gikorwa kiza gituma bumva bishimiye ubuzima bwabo bukagenda neza, ndetse bikabongerera n'iminsi yo kubaho bishimye.

Gufata neza abakuze ni kimwe mu gikorwa cyiza gituma bumva bishimye iyo ubafashije ukabajyana muri siporo kubaganiriza bumva bameze neza ko ubuzima bwabo bugenda neza maze nabo bakarushaho kwishima ubuzima bwabo bukagenda neza cyane .

Kwita ku bakuze ni igikorwa cyiza gituma bumva bishimye, bumva banyuzwe n'ubuzima barimo, buri wese akwiye kwita ku bakuze, akabafata neza, bityo bizatuma bumva ubuzima buryoshye kurushaho.

Kwita kubasheshe akanguhe; ni igikorwa cyiza gituma bumva banyuzwe n'ubuzima, ndetse bakabaho bishimye, kuko bibongerera iminsi yo kubaho bakabaho neza.

Gufata neza, kwakira neza, abakuze ndetse n'abasheshe akanguhe igikorwa cyiza gituma bagira ubuzima bwiza, ndetse bakaba bishimye bityo bikabongerera iminsi yo kumva babayeho neza kandi bigatuma n'ubafasha yumva yishimye ameze neza.

Abakuze bakwiye kwitabwaho na bo bakumva bisanzuye, bakaba mu Isi nk'iy'abato, bityo bizabongerera igihe cyo kubaho bumva bishimye.

Uburyo bwo kwigisha kwirinda ndetse n'uko wakwitwara igihe habayeho ikibazo gitandukanye mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina.

Zimwe mu ngamba zifatwa kugira ngo hirindwe ibyorezo indwara zitandukanye, kugira ngo abantu bakomeze bagire ubuzima bwiza.

Mu kwirinda no kurwanya indwara zitandukanye harimo n'igice cyo gushyira abantu hamwe bakaganirizwa ku bibi by'indwara zitandukanye, uburyo zandura, ndetse n'ingaruka ku muntu wazirwaye ndetse no ku muntu ubifashe uko ashaka kandi bikomeye, ingaruka byagirwaho.

Dukwiye gukurikiza inama ndetse n'itegeko ryashyizweho, kugira ngo twirinde kandi duhashye icyorezo ndetse n'indwara zitandukanye, kugira ngo dukomeze.

Inyandiko isobanura uburyo bw'indwara, uburyo ifatamo, ibimenyetso n'ingaruka z'uwayirwaye mu gihe runaka yayanduye cyangwa se abana n'ubwandu bwayo.

Iyo tugiriwe inama z'uburyo dukwiye kwitwara mu gihe twatatswe n'indwara cyangwa se icyorezo, dukwiye kubyumva vuba tukabishyira mu bikorwa kugira ngo twirinde dukomeze tugire ubuzima bwiza.

Mu buryo bwo kurwanya indwara ya covide, harimo ingamba zitandukanye nk'uko inzobere mu bijyanye n'indwara ndetse n'ibyorezo, bashyira hamwe maze bagategura uburyo bwo kwirinda kugira ngo dukomeze tugire ubuzima bwiza nk'abantu muri rusange twese hamwe.

Gutanga inama, inyunganizi ndetse n'uburyo ibikorwa byakagenze, ni imwe mu ngenzi kugira ngo abaturarwanda cyangwa se abatuye igihugu bagire ubuzima bwiza.

Uburyo bwo gukumira indwara nk'ibyorezo, harimo kubwirwa ingaruka n'igitera iyo ndwara ndetse n'ibimenyetso byayo kugira ngo yirindwe kandi ikumirwe hakiri kare.

Uburyo bwo guhagarika no kwirinda indwara n'ibyorezo bitandukanye, ni bimwe mu nshingano buri wese agomba kuba afite, kugira ngo agire ubuzima bwiza ndetse arinde n'abandi.

Kwirinda ni uburyo bwiza bwo gukomeza kugira ubuzima bwiza ndetse kuko abanyarwanda babivuze neza bavuga ko kwirinda biruta kwivuza iyo wirinze neza ugira ubuzima bwiza.

Mu kwirinda no kurwanya indwara zitandukanye harimo na sida, harimo gusobanukirwa ndetse no gusobanurirwa ibijyanye n'iyo ndwara, aho basobanurirwa uko indwara yandurwa ingaruka ndetse n'ibimenyetso kugira ngo abantu barusheho, kuyirinda bityo bakomeze bagire ubuzima bwiza.

Dukwiriye gukurikiza ingamba ndetse tugakurikiza n'amabwiriza yashyizweho kugira ngo dukomeze tugire ubuzima bwiza, twirinda indwara zitandukanye mu buryo butandukanye, kugira ngo twese dukomeze tugire ubuzima ubuzima buzira umuze.

Minisiteri ishinzwe ubuzima iba iri guhura n'abashinzwe bimwe mu bigo nderabuzima mu gihugu kugira ngo bafatanye, bafate ingamba zo kugira ngo barinde abaturarwanda indwara zitandukanye ndetse n'ibyorezo bigiye bitandukanye.

Ibitaro baruhukiramo indembe, cyane cyane abarwayi barwaye cyane kugira ngo bitabweho n'abaganga umunsi ku munsi, isaha ku isaha bityo ubuzima bwabo bukomeze bugende neza.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi, kwita ku barwayi, kuganiriza abafite ibibazo bitandukanye cyane cyane iby'ubuzima, bikwiye kwitabwaho kugira ngo twese dukomeze tugire ubuzima bwiza, kuko iyo umuntu arwaye niho agana.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi butandukanye, haba kuvurwa indwara zitandukanye cyangwa kugirwa inama ku bijyanye n'imitekerereze, ibijyanye n'umubiri n'ibijyanye n'imyororokere, ni ahantu uwo ariwe wese yagana mu gihe afite ikibazo.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi, ni ahantu dukwiye guha agaciro, kuko inzobere mu by'ubuvuzi ndetse n'abaganga badusuzuma bakareba indwara turwaye, maze bakaduha imiti idufasha mu kuba twakira ndetse no kuba twagumya kugira ubuzima bwiza.

Ikigo nderabuzima ibitaro cyangwa ivuriro rikoreshwa mu kuvura ndetse no kuvurwa ku barwayi, gutanga inama ndetse no kuganirizwa ku bijyanye n'ubuzima, buri wese ufite ikibazo cy'umubiri akwiye kuhangana.

Ikigo nderabuzima cyangwa se ibitaro bigizwe n'inyubako nyinshi aho harimo inzu y'ababyeyi, aho ababyeyi babyarira ndetse bakanaruhukira igihe bamaze kubyara, ikwiye kwitabwaho kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza mu gihe babyaye ndetse no mu gihe biteguye kubyara.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi ni inyubako nziza ikwiye kwitabwaho kuko urwaye ndetse n'uvura bahahurira maze uvura agatanga ubufasha bushoboka kugira ngo urwaye akomeze agire ubuzima bwiza.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi, ibitanda abarwayi cyangwa ufite ikibazo aruhukiraho kugira ngo yitabweho n'inzobere mu by'ubuvuzi.

Ivuriro, inyubako dukoresha twivuza aho duhura n'abaganga b' inzobere, abadufasha kugira ngo dukomeze tugire ubuzima bwiza, abaduha imiti batugira inama z'ubuzima n'uburyo twakwitwara mu gihe dufite indwara runaka turwaye.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi, aho umuforomo muganga cyangwa inzobere mu by'ubuvuzi, afata umwanya agasuzuma akanaganiriza umurwayi, kugira ngo yumve ko ubuzima bwe bumeze neza.

Kwitabwaho n'abaganga cyangwa inzobere mu by'ubuvuzi ni kimwe mu gikorwa cyiza gituma umuntu amenya uko ahagaze ndetse agasuzumwa indwara zose afite bityo agakomeza kugira ubuzima bwiza.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi, aho usangamo imashini zitandukanye zisuzuma amaraso, ingingo kugira ngo umurwayi yumve anyuzwe ndetse amenye n'indwara arwaye.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi butandukanye, aho uwo ari we wese yisanga mu gihe afite indwara runaka agiye kwivuza cyangwa se ubujyanama agiye gusaba, mureke tuhagane.

Ibitaro urwaye aruhukiramo kugira ngo yitabweho n'abaganga maze ahabwe ubufasha bwose nkenerwa kugira ngo ubuzima bukomeze bugende neza.

Inyubako, ubuvuzi niinyubako y'ingirakamaro aho umuganga cyangwa inzobere mu by'ubuvuzi yicara akaganira n'umurwayi, umurwayi akavugwa uburwayi arwaye maze agashakirwa umuti cyangwa urukingo kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza.

Mu nyubako z'ivuriro, harimo igice cyo kwakira abarwayi kugira ngo babashe guhabwa serivisi zitandukanye mu bitaro ndetse bakomeze bakurikiranwe, bakomeze bagire ubuzima bwiza.

Mu nyubako z'ubuvuzi ;harimo aho gusuzumira ingingo z'umuntu, harebwa ahari ikibazo kugira ngo hafatirwe icyemezo ndetse hanashakirwe uburyo hakira, kugira ngo ubuzima bukomeze bugende neza.

Ubuvuzi ni kimwe mu igikorwa cyiza tugomba gukora buri munsi mu gihe turwaye kugira ngo tuvurwe, kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze bugende neza. Ni muri urwo rwego rero buri wese wumva umubiri we ufite ikibazo akwiye kugana ivuriro cyangwa se ibitaro bimwegereye bakamufasha.

Mu nyubako y'ubuvuzi habamo igice cy'ibitaro, aho umurwayi urembye cyangwa udafite imbaraga zo kuba yagera mu rugo, ahabwa igitanda kugira ngo akurikiranwe byimazeyo n'abaganga ndetse n'abafite mu nshingano ibyo kuvura, bityo kugira ngo abarwayi bakomeze bagire ubuzima bwiza.

Kwita ku mwana, ni igikorwa cyiza kuko umwana ni byose. Bityo umwana akwiye kwitabwaho kugira ngo na we agire ubuzima bwiza, agire ubuzima buzima.

Imwe mu nyubako isuzumirwamo, ikanagirwamo inama n'uburyo bwo kwirinda ndetse bakanavura indwara ya kanseri ifata mu mubiri w'umuntu mu bice bitandukanye.

Inyubako y'ubuvuzi, ibitaro cyangwa ivuriro, ni inyubako nziza ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi harimo kwita ku barwayi ndetse no kuganiriza abarwayi bafite uburwayi haba bwo mu mutwe cyangwa ubundi burwayi bw'umubiri butandukanye, bityo dukwiye kuhegera no kuhagana mu gihe twagize uburwayi.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi, ni inyubako nziza twese twisangamo igihe twagize uburwayi butandukanye ku mubiri wacu ndetse hari n'aho bita ku barwayi barembye, babakurikirana akanya ku kanya kugira ngo na bo bagire ubuzima bwiza.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi butandukanye, aho uwo ari we wese agana kugira ngo ahabwe ubuvuzi, yitabweho na we agire ubuzima bwiza.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi aho abarwayi bagana bafite ibibazo bitandukanye, haba icyo kugirwa inama cyangwa se ikibazo cy'umubiri, kugira ngo bahure n'inzobere mu by'ubuvuzi cyangwa se inzobere by'imitekerereze abagira inama babahe n'ubufasha kugira ubuzima bukomeze bugende neza.

Inzu y'ubuvuzi twese twifashisha iyo twarwaye tukajyayo abaganga ndetse n'inzobere mu kuvura maze bakatwakira kugira ngo dukomeze tubungabunge ubuzima bwacu.

Mu gihe ukora siporo ni ngombwa kwifashisha ibikoresho byabugenewe, kuko hari siporo zisaba kuba ufite ibyo bikoresho kugira ngo zikorwe neza kandi zikorwe mu mucyo, nta kibangamye. Bityo ni byiza kujya dukoresha ibyo bikoresho, kugira ngo dukore siporo neza kandi umubiri wacu ukomeze ugende neza.

Siporo n'ubu ubuzima, siporo ni byose, dukwiye gukora siporo kugirango ngo tugire ubuzima bwiza, kugira ngo ubuzima bwacu tubuhe umurongo, tugire umubiri ukeye kandi uzira indwara.

Amazi ni ubuzima, amazi adufasha kuba twagira ubuzima bwiza, cyane cyane ku muntu ukora siporo, kuko ituma umubiri we ukora neza birushijeho uko ukora. Bityo buri wese akwiye gufata amazi mu gihe akora siporo ndetse no mu gihe gisanzwe kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza.

Mu gihe ukora siporo, ukwiye kwitwaza ibikoresho byakugoboka mu gihe ugize impanuka cyangwa se ukagira uburwayi butunguranye, bityo kugira ngo ukomeze ugire ubuzima bwiza wirinde, ndetse ukomeze ugire ubuzima bwiza, wirinda imbogamizi ndetse n'impanuka mu bijyanye na siporo.

Siporo ni ubuzima siporo bituma tugira umubiri ugororotse siporo ituma twirinda indwara zitandukanye bityo twese dukwiye gukora siporo kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Igikoresho gikoreshwa cyane cyane ku muntu wagize imvune, yaba yaraye muri siporo cyangwa se n'ibindi cyangwa se ufite uburwayi butamwemerera kuba yagenda n'amaguru, atwarwaho kugira ngo abashe kuba yagera aho yitabwaho neza n'abaganga.

Ukora siporo agira ubuzima bwiza, ukora siporo agirara umubiri uteye neza ndetse n'amaraso atembera mu mubiri neza twese dukora siporo kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Iyo uwakoze siporo agize ikibazo mu ngingo, hari imiti yabugenewe igabanya ububabare akwiye gukoresha kugira ngo umubiri we ukomeze ukore neza.

Imvune ni imwe mu ndwara cyane cyane zishobora kuza igihe uri gukina umukino umwe wa siporo bityo ubuvuzi bushobora guhabwa mu gihe wagize imvune ni uguhambirwaho umushipiri cyangwa se umwenda wabugenewe kugira ngo imvune yorohe imere neza.

Mu gukora siporo ni ngombwa ndetse ni byiza gukoresha ibikoresho byabugenewe kugira ngo ukore siporo ndetse ukanafata ibitera imbaraga, ibirinda indwara, imbuto kugira ngo ukomeze ugire ubuzima bwiza, ibyuya watakaje bigaruke kandi bigarukane imbaraga, byubaka n'umubiri.

Siporo ni ubuzima siporo ningirakamaro, umuntu wese yakwiye gukora siporo kugira ngo agire ubuzima bwiza kugirango ngo amaraso atembere mu mubiri neza, kugira ngo ubuzima bwe bugende ku murongo.

Siporo ni ubuzima umuntu ukora siporo hari indwara nyinshi atarwara nk'indwara y'umuvuduko kuko aba yakoze ibishoboka byose kugira ngo umubiri ukore neza, niyo mpamvu twese dukwiye gukangukira gukora siporo kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Siporo ni imwe mu gikorwa cyiza, gituma umuntu agira ubuzima bwiza, ikamurinda indwara ndetse ingingo zigakora neza, buri wese akwiye gukora siporo kugira ngo agire ubuzima bwiza, yumve abayeho atekanye kandi atuje.

Ibitunga umubiri ni bimwe mu miti cyangwa se mu ngirakamaro y'ibiribwa kugira ngo umuntu ukora siporo akomeze agire ubuzima bwiza.

Mu buzima bwacu bwa buri munsi dukenera imboga n'imbuto, tugakenera ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza, cyane cyane ku muntu ukora siporo ubuzima bwe bukomeza kugenda neza nta rugingo cyangwa se nta kibazo cy'amaraso yagize bityo buri wese akwiye gukoresha imboga n'imbuto.

Mu gihe ukora siporo hari ibikoresho byabugenewe mu gihe wagize impanuka cyangwa izindi mbogamizi ku mubiri wawe, harimo agatambaro kagufasha gusubiza ingingo mu gihe wavunitse cyangwa hagize ikindi kibazo kiba, harimo amavuta asigwa ku mubiri ndetse n'ibinini bigufasha kugira imbaraga, bityo dukwiye gukoresha ibikoresho byabugenewe n'imiti yabugenewe kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Uwakoze siporo agira ubuzima bwiza, ariko uwanyweye amazi agakora na siporo agira ubuzima bwiza kurushaho, gukora siporo ukanywa amazi, ni kimwe mu gikorwa kiza gituma umuntu agira ubuzima bwiza birushijeho.

Mu gihe ukora siporo agize ikibazo akavunika urugingo cyangwa se akagira ikibazo runaka ku mubiri, hari ibikoresho byabugenewe agomba gukoresha, kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza, ndetse n'ingingo zakomeretse zigaruke zikore neza.

Umuti gakondo, umuti w'ibyatsi, ni umuti mwiza, ni umuti ukomoka ku bimera, umuti udufasha mu gukira indwara ndetse hakanakorwamo indi miti idufasha mu buryo butandukanye.

Umuti gakondo, umuti w'ibyatsi ni umuti mwiza kuko udufasha kuvurwa ndetse hakanakorwamo indi miti idufasha mu kwivura indwara zitandukanye.

Imiti ikomoka ku bimera, ni imiti myiza cyane buri wese yifashisha kugira ngo imuvure ndetse igakorwamo n'indi miti nk'igikinya ndetse n'indi.

Imiti rwatsi, ni imiti dukoresha twivuza, imiti dukoresha tubyazamo indi miti, ituvura mu bihe bye bitandukanye kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza.

Imiti ikomoka ku bimera, imiti rwatsi, ni imiti myiza, imiti yifashishwa kugira ngo hakorwemo indi miti icishijwe mu nganda, imiti myiza uwayikoresheje nta ngaruka igira ku mubiri, bityo twese dukwiye gukoresha imiti rwatsi.

Imiti rwatsi, ni imiti ikomoka ku bimera, ni imiti idufasha kugira ubuzima bwiza, no kugirango ngo dukore indi miti idufasha mu gukira indwara, bityo buri wese akwiye gukoresha imiti ikomoka ku bimera, imiti rwatsi kugira ngo ugire ubuzima bwiza.

Imiti gakondo ni imwe mu miti y'ingirakamaro. Imiti rwatsi ni imwe mu miti ikoreshwa igacishwa mu nganda hakavamo indi miti ikoreshwa mu ndwara zitandukanye.

Imiti y'ibyatsi, imiti y'ibimera, imiti dukoresha tubyazamo indi miti, tunayikoresha tutiriwe tuyicisha mu nganda, maze ikatuvura, kandi ikatuvura neza.

Ibimera biduha imiti idufasha mu kwivura cyangwa se gukira indwara zitandukanye tuba twarwaye bityo ndashishikariza buri wese gukoresha imiti y'ibyatsi, imiti y'ibimera kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza.

Imiti gakondo ni imiti y'ingenzi, kuko tuyikoresha twivura ndetse tukanayikoresha dukora ubundi bwoko bw'imiti, budufasha kwivura indwara vuba kandi mu buryo bwihuse bityo bu tugakomeza kugira ubuzima bwiza

Imiti ikomoka ku bimera ni imiti myiza, imiti ifasha abantu mu kugira ngo bagire ubuzima bwiza, ni imiti ikoreshwa igacishwa mu nganda hakavamo indi miti myiza kandi yifashishwa n'ingeri zose kugira ngo ivure ubuzima bwacu.

Mu gihe ukora siporo ni ngombwa gufata imbuto, kuko imbuto zikura imyanda mu mubiri ndetse zikarinda n'indwara, bityo twese dukwiye gukangurirwa gufata imbuto mu gihe dukora siporo, no mu gihe tudakora siporo kugira ngo dukomeze tugire ubuzima bwiza.

Avoka ni rumwe mu rubuto rwiza, rukorwamo umuti uvura ibiheri ndetse ukanakorwamo isabune yo gukoresha mu buzima butandukanye. Bityo dukwiye gusigasira ibikomoka ku byatsi kugira ngo dukomeze tugire ubuzima bwiza.

Imiti ikomoka ku bimera ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko tuyikoresha twivuza ndetse na buri wese akwiye kuyikoresha kuko nta ngaruka igira ku mubiri kandi inakoreshwa hakorwamo indi miti y'andi moko atandukanye.